Umurima ufite ubuso bunini, ukikijwe n'ibyatsi ku mpande, hagati muri wo hateyemo ibigori bitaraheka kuko bitari byera neza, hakurya yawo hari ishyamba ry'inzitane.

Abaturage babyukiye mu murima aho baje gutera imbuto zitandukanye, nkuko bisanzwe buri munsi barakangurirwa gutera ku murongo, harimo umugabo uri hagati uri kugenda ashyiramo ifumbire.

Umuhinzi mworozi w'umukobwa ari kwita ku bihingwa byiwe, aho ari kugenda abitera umuti mu rwego rwo kugira ngo bitazibasirwa n'udukoko, yambaye bote, umupira w'umukara n'uturindantoki.

Ni ahacururizwa imiti yo kwita ku biribwa, harimo iyica udukoko dushobora kwibasira ibihingwa ndetse n'indi ihabwa amatungo, hagaragara umuntu uje kugura yifashishije telefoni.

Nyuma y'uko abaturage bejeje umusaruro wabo bawushyira mu mifuka, ubundi bakawohereza ku isoko cyangwa se baba bagiye guhabwa ifumbire na zo zikaza mu mifuka kugira ngo bazahinge kijyambere.

Igikuta kiriho igipapuro kiri kwamamaza imiti itandukanye, muri iyo hariho agacupa gafite ibara ry'umweru ariko kometseho igipapuro kigaragaza ibiri muri uwo muti.

Umuhinzi w'amashu wayahinze neza mu buryo bwa kijyambere akaba ateye ku murongo, afite ipompo ari kugenda ayatera umuti kugira ngo udusimba tutazayibasira akaba yakononekara.

Ni mu iguriro ry'imiti y'inyamaswa ndetse n'amatungo, aho bayicuruza ikaba iteretse mu tubati twabugenewe, buri bwoko bw'umuti bugiye bu ubwabwo kugira ngo bidatera urujijo kubawukoresha.

Mu bubiko bw'imiti y'inyamanswa, amatungo ndetse n'ibiribwa. Akaba ari aho babigurishiriza, bigiye bipanze neza ku murongo, aho babibika mu rwego rwo kugira ngo abazaza kubitwara babashe kubicagura bitabaruhije.

Imifuka ndetse n'ikizingo kimeze nk'ipine biri imbere y'umuryango ugizwe n'inzu irimo amakaro ndetse n'inzugi by'umweru.

Abaturage b'abahinzi babyukiye kujya gutunganya ifumbire kuko ari kimwe mu bituma umusaruro wabo wiyongera, barimo abagabo ndetse n'abagore aho bari kugenda bayitunganya.

Ibiganza by'umuhinzi uri kuyora ifumbire ikaba ari iy'imborera, iyi ngiyi izwiho kuba ituma imyaka yera neza kandi ikaza itoshye.

Uruyuzi ibi ni ibibabi biturukaho icyo bita igihaza cyangwag se ikidegede, akaba ari igihingwa cyera kirandaranda bimwe mu byaturutseho ijambo kwanda.

Igikuta kiragaragaraho igice gitoya cy'urugi ndetse n'ahandi hometse ibipapuro biriho amacupa y'imiti, ibi ngibi biragaragaza ko aha hantu bacuruza imiti.

Aho bacururiza ibikoresho byifashishwa mu buhinzi n'ubworozi, harimo ibyo bakoresha buhira imirima, ndetse n'imiti ihabwa amatungo yewe n'iterwa ibihingwa bitandukanye.

Abaturage babyukiye mu gikorwa cyo kwita ku bihingwa byabo, aho bari kugenda babisasira babibagarira, biragaragara ko bahawe ubukangurambaga bwo guhinga ku materasi kuko ari byo bitanga umusaruro.

Tungurusumu ni kimwe mu biribwa bizwiho kuba bishobora kuvura inzoka, izi ziri mu biganza bitari kugaragara nyirabyo, zikaba zeze neza, dore ko zikiri umweru wererana.

Ni ahacururizwa ibyo kurya ariko biba bidatetse birimo amata, imitobe ndetse n'utundi tuntu umuntu yifashisha mu gihe ari nko ku rugendo bikaba bipanze mu tubati twabyo.

Umujyanama mu by'ubuhinzi wambaye impuzankano y'ubururu, akaba yaje gukora ubukangurambaga ku baturage, mu buryo bwiza bwo guhinga kijyambere kuko ari byo bitanga umusaruro, abantu bakabona ifaranga ndetse bakanibikaho ibyo kurya.

Ibiganza byambaye uturindantoki tw'ubururu bwerurutse, bikaba biteruye umusaruro w'umweru, aho uri mu mufuka munini ndetse uwo mufuka ukaba ari uw'ubururu.

Ku muryango winjira aho bacururiza imiti y'amatungo ndetse n'inyamaswa, hakaba hari urugi rw'umweru, amakaro y'ubururu ndetse n'umweru ariko mbere yo kwinjira ukaraba kuri kandagira ukarabe iri aho hafi.

Ni inyubako icuruza imiti ariko y'amatungo, aho hariho amagambo agira ati ''ongera umukamo'', bikaba bigaragara ko bacuruza imiti yahabwa inka n'andi matungo.

Ahantu hahinze ibintu bitandukanye, hari aho batemye insina bazirambika aho ngaho, ahandi hirya gato hateye ibigori ariko hakeneye gukorerwa kuko hagaragaramo ibigunda.

Ni akabati karimo ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo imiti y'amatungo. Aha akaba ari ku iguriro ry'imiti y'amatungo, aborozi ndetse n'abahinzi basabwa kuhangana.

Utubido turimo imiti y'amatungo itandukanye: hari ibikombe, ibicupa ndetse n'utubito, abantu b'aborozi baba bazi neza amaguriro y'iyo miti bifuza.

Aho bacuruza imiti y'amatungo, imbuto nziza ndetse n'inyongeramusaruro. Ku cyapa hakaba hari inka ishushanyijeho igihingwa cya karoti ndetse na pavuro.

Ubworozi n'ubuhinzi ni ibintu bijyanirana, kuko iyo woroye amatungo aguha ifumbire hanyuma ukayijyana mu buhinzi, ibi ngibi bituma kimwe cyunganira ikindi maze ukarushaho gutera imbere.

Leta y'u Rwanda yashyizeho uburyo bwiza bwo guha ifumbire abaturage y'imborera mu rwego rwo kugira ngo bajye bahinga beze maze umusaruro wabo ubagirire akamaro bityo n'Igihugu gitere imbere.

Igihembwe cy'ihinga kirageze, abaturage bari guhabwa imbuto, ariko bakaba bashishikarizwa gutera ibintu bimwe, mu rwego rwo kugira ngo umusaruro wabo uzabe ari mwinshi maze ukusanwe ugurishwe.

Umurima uhinzemo ibishyimbo bitari byatangira gukura neza, bikaba biteye ku buryo butatanye aho bitari byegerana kuko bitarera.

Mu mirima haba hari imigende iyobora amazi mu rwego rwo kugira ngo itangiza imyaka, ariko nanone aya mazi yifashishwa mu kuhira iyi myaka.

Igihingwa cy'imyumbati ni kimwe mu bizwiho kuba ari ibiribwa bitera imbaraga, aha irateye aho ari myinshi cyane, inyuma yayo hari ishyamba.

Ubuso bunini buteyeho ibigori aho bitangiye gushibuka ariko ntago birigira hejuru, bikaba bikeneye ko bikomeza kuhirwa amazi menshi kugira ngo bitazagwingira.

Umuhinzi wateye imbuto z'ibinyomoro arikugenda atembera mu murima we areba aho bigeze ariko ntago birera, gusa aratangira kwitegura ko mu gihe kiri imbere azasarura.

Umurima uteyemo ibintu bitandukanye harimo amateke, ibishyimbo, ibigori ndetse n'urutoki bigaragara ko na rwo rwakuze, aha hari ikigori kimaze kwera kigeze igihe cyo gusarurwa.

Urutoki rumaze kwera neza rukaba rumaze kweza imineke izwi nka kamaramasenge. Akaba ari byiza cyane ku waruteye kuko aba ageze mu gihe cyo gutangira gusarura ku ifaranga.

Ishyamba ry'inzitane rigizwe n'ibiti birebire ndetse n'ibigufi, hafi aho ngaho hari n'ubwatsi bigaragara ko izuba ryaburasheho kuko butangiye kuma. Ni ngombwa rero kubungabunga ibi biti bidukikije dore ko bidufasha mu buryo bwo guhumeka.

Ni umurima uteyemo intoryi bigaragara ko zimaze kwera, zigeze igihe k'isarura, zikaba ziri ku biti byazo, mu gihe icya ari cyo cyose zishobora kuba zasarurwa.

Umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara ari rwagati mu murima we aho yahinze imboga zikaba zimaze kwera, inyuma ye kandi hateye n'urutoki bigaragara ko rumaze gukura.

Guhinga inanasi ni kimwe mu bintu bigorana cyane, dore ko zisaba kwitabwaho umunsi k'uwundi kandi zikaba zitinda kwera, izi ziteye ku murongo, zikaba zikeneye kuhirwa kugira ngo zizakure neza.

Ikiganza cy'umuntu ufashe ku giti gitangiye gushibuka, ariko gikeneye kuzahabwa igihe kikaba gifite amababi ameze nk'ay'igiti cya voka.

Umugabo wahinze kijyambere, dore ko yakoze amaterasi meza y'indinganire, ntago aratangira gutera, icya kora hakurya hari ibigori byeze, akaba ahagaze hagati mu murima.

Umurima uteyemo ibisheke byinshi ntabwo birera neza, ariko biragaragara ko byatangiye gukura. Iki ni kimwe mu bihingwa bigira imimaro myinshi, dore ko igisheke ari na cyo kivamo iyi sukari dukoresha.

Umurima urimo igiti cy'amapera ariko ataratangira kwera neza, hateyemo kandi ibibabi by'amasombe ndetse n'ibindi bimera bitandukanye, mu rwego rwo kugira ngo abaturage biteze imbere.

Mu rwego rwo kwimakaza iterambere ry'abahinzi. Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu gukora ubukangurambaga bwo guhinga mu buryo bugezweho. Aho abantu bahinga ku murongo. Iki gihingwa cy'imyumbati biragaragara ko gihinze ku murongo.

Ubuhinzi bw'ibihwagari ni bumwe mu butuma abaturage babukora babona amafaranga, dore ko ibihwagari bivamo amavuta amaze gukundwa na benshi maze bigatuma babona amafaranga.

Ibiti ni ibintu by'ingenzi muri ubu buzima kuko ni kimwe mu bidukikije biduha umwuka duhumeka, niyo mpamvu bagira bati nutema kimwe ujye utera bibiri.

Umurima ufite ubuso bunini cyane ukaba uteyemo urutoki rutoshye, bigaragara ko rwabonye ifumbire rugeze igihe cyo kwera nyirarwo aritegura gusarura.

Ubuhinzi ndetse n'ubworozi ni igice cy'ingenzi kimwe mu biteza Igihugu imbere, n'iyo mpamvu buba bugomba kwitabwaho abahinzi bagahabwa amafumbire y'imborera ndetse n'imbuto batera.

Aho bacururiza imiti y'amatungo cyanecyane inka, hakaba hari uducupa tugiye dutandukanye turimo imiti ihabwa inka mu rwego rwo kugira ngo zongere umukamo.

Itungo ry'ihene rimeze nabi cyane rirembye kuko ryibasiwe n'uburwayi, umunwa waryo wajeho ibintu bimeze nk'ibibembe. Ibi birasaba ko umuvuzi wita ku matungo abanza kurisuzuma mbere y'uko ryaribwa cyangwa se rikagira ikindi rikoreshwa.

Ikiganza cy'umuntu ufashe imbuto mu ntoki, hakaba hari n'izindi nyinshi ziri hasi, ibi bikaba bigaragara ko ageze mu gihe cyo guhinga, akaba ari kureba niba imbuto ziwe ari nzima.

Agacupa kaba karimo umuti kakaba kari kugaragaramo amabara atandukanye, hari amagambo yandikishije iry'umukara ndetse hari n'uturongo turiho tugizwe n'ibara ry'umuhondo, ubururu bwererutse ndetse n'ubwijimye.

Umuti w'inyamaswa ukaba uri mu icupa ry'umweru ndetse ririho agapapuro gasa nka kake gashushanyijeho inyamaswa imeze nk'aho ari imbogo.

Imiti yifashishwa mu gukora ubuvuzi bw'inyamaswa, ikaba imwe iri mu gakarito indi ikaba itari mu gakarito igizwe n'utunini dufite ibara ry'umukara ndetse n'iry'umweru.

Umuti wo guha amatungo ukaba ufashwe n'ikiganza cy'inzobe, ufite ibara ry'umweru ndetse n'igipapuro cy'icyatsi cyijimye cyanditseho amabwiriza awugenga.

Amatungo aba akwiye kwitabwaho cyanecyane nk'iyo arwaye, iyi nkoko biragaragara ko igice cyayo kimwe cyo ku isura cyangiritse, ibi rero bisaba umuganga w'amatungo kugira ngo yemeze niba iyi yaribwa cyangwa se yajugunywa.

Imiti y'ibihingwa ndetse n'inyamaswa, ikaba iba ifite ahantu hayo icururizwa hihariye. Aha hari udukombe tugizwe n'amabara y'icyatsi ,umweru ndetse n'amagambo y'umukara amwe n'amwe n'andi yandikishije icyatsi.

Abaturage bo mu bice by'icyaro, bakaba bazindukiye mu murima, igihe cy'ihinga kirageze maze bari gutera imbuto, biragaragara ko aha ngaha bari buhatere imyumbati.

Ubuhinzi bwa kijyambere buba bwiganjemo ugutera igihingwa kimwe kandi ukagitera neza ku murongo, umubyeyi ndetse n'umukobwa bari mu murima, aho bari gushingirira ibishyimbo.

Umudamu ugeze mu gihe cyo gutera mu murima we imbuto nyuma yuko yamaze gutabira, akaba afite imbuto aho ari kugenda azitera ku murongo.

Ni ishyamba rigizwe n'ibiti birebire bimaze gukura. Hafi aho ngaho hari abahinzi bari ku murongo aho bari gutera intabire. Biragaragara ko igihembwe k'ihinga cyageze.

Ni byiza ko nimba warateye urutoki, mu rwego rwo kugira ngo ubutaka bwawe ububyaze umusaruro uba ugomba kugenda uteramo ibindi bitandukanye birimo; ibishyimbo cyangwa se ibigori kugira ngo uzasarure hombi.

Abantu benshi bahuriye mu gikorwa cy'umuganda, ubu ni ubudasa bw'Igihugu cy'u Rwanda aho abaturage bahura bakiyubakira Igihugu cyabo baharura imihanda, barwanya isuri ndetse n'ibindi.

Igihe cy'ihinga kirageze bamaze gutera intabire, uyu murima warusigayemo amateke gusa, haragaragaramo ababyeyi babiri aho bafite imbuto bagiye gutangira ikindi gihembwe cy'ihinga.

Ubuso bunini bw'amahegitari menshi buri impande y'ikiyaga, hakurya haragaragara imisozi, hagati mu murima harimo abahinzi bari kubagarira ibigori byabo kugira ngo bizakure neza.

Igihe cy'isarura kirageze, abahinzi bahinze urutoki bageze igihe cyo kumva icyanga cyo gutera neza ndetse mu buryo bwa kijyambere, umusaruro wabo ugiye kujyanwa ku isoko maze babone amafaranga.

Umuceri ni igihingwa kiba gikwiye kwitabwaho cyane. Dore ko iyo utangiye gukura utangira konwa cyane n'inyoni. Kigomba guhingwa ahantu mu gishanga kiba kibona amazi uko bikwiye.

Ni umurima munini uteyemo ibishyimbo bikaba ari bwo bigipfundura amababi bitangiye gushibuka, bigeze aho bikeneye amazi, mu gihe akavura katakigwa nyirabyo arasabwa kubyuhira.

Ni umurima munini uteyemo ibiti, ibyatsi, ariko hirya haragaragara urutoki rutangiye gukura ruratoshye. Mu minsi iri imbere nyirarwo aratangira gukabakaba ku ifaranga.

Abaturage nyuma yo kuba bejeje inyanya barishimye cyane bafite akanyamuneza, bari gukusanya umusaruro wabo mu rwego rwo kugira ngo babe bawerekeza ku isoko babe bawucuruza.

Iyo ubuhinzi bwa avoka bukozwe neza buguha amafaranga, dore ko hari bamwe bamaze kuzajya bazihinga, hanyuma umusaruro wazo bakawohereza hanze y'igihugu, dore ko mu bihugu bya kure zidakunze kubayo.

Mu isoko ricururizwamo imboga, imbuto ndetse n'ibindi bitandukanye, hagaragaramo ababyeyi bacuruje voka, hari kandi n'abacuruje ibitunguru n'inyanya n'ibindi bikenerwa mu gikoni.

Igihingwa cy'ikijumba kireze none umusaruro wacyo bawujyanye ku isoko, ni byinshi bigiye bipanze mu mifuka, ni bimwe biba bifite ibara ryenda gusa nk'umutuku ariko hari n'ibiri mu ma base.

Umuturage usaruye aba afite ibyishimo nk'iby'umushumba ufite inka ze zihaka, aba ni bamwe mu bishimira umusaruro w'igihembwe cy'ihinga, aho bejeje inyanya, batangiye kuzitenga mu bitebo kugira ngo bazerekeze ku isoko.

Umurima uri ku buso bwa hegitari nini cyane ukaba uteyemo ibigori, uyu muhinzi aritegura gukabakaba ku mafaranga mu gihe azaba asarura ibi bigori by'iwe.

Igihingwa cy'umuceri ni kimwe mu biba bikwiye kwitonderwa, ukakibungabunga kuzageza usaruye, yewe ukakirinda ibyonnyi birimo inyoni, ni byiza ko giterwa mu gishanga, aho kibasha kubona amazi acyuhira ku buryo bworoshye.

Ni mu bubiko bw'ibiribwa bitandukanye birimo ibishyimbo, umuceri ndetse n'ibindi, abaturage iyo bamaze kweza umusaruro wabo baba bafite ahantu bawukusanyiriza kugira ngo bajye babona uko babagurira bitagoranye.

Imifuka igiye irimo ibishyimbo ndetse n'amasaka bikaba bivuye gusarurwa, abaturage bakaba bari kwitegura kubijyana ku isoko, mu rwego rwo kugira ngo umusaruro wabo ucuruzwe.

Umurima urimo ibintu bivangavanze, hari ibishyimbo biri ku mushingiriro, ndetse hirya gato haragaragaramo insina zizwiho kuba zivaho urutoki, yaba urw'imineke cyangwa ibyo kurya.

Ahari ibiti by'inganzamarumbo byarengeye ipoto ry'amashanyarazi, biragaragara ko aha hantu hakwiriye gukorerwa umuganda mu rwego rwo kugira ngo ibi biti bibashe kuba byaba bimeze neza.

Umurima uhinzemo amateke, ibishyimbo, hakaba hagiye hateyemo n'ibiti, si ibyo gusa harimo n'urutoki bigaragara ko uyu ari umurima w'umuturage umufasha kubona ibyo kurya mu buzima bwe bwa buri munsi.

Ni ngombwa ko nubwo utatera igiti iwawe mu rugo ariko nimba ufite ubushobozi gerageza utere ururabyo kuko ni kimwe mu bituma iwawe hamera neza, hakaba hasa neza mu rwego rwo gutaka indabyo.

Mu ishyamba ry'inzitane hakaba hateyemo ibiti by'inganzamarumbo, byiganjemo iby'inturusi, akaba ari ngombwa ko amashyamba agiye gusaza tuyasazura mu rwego rwo kugira ngo ajye aduha umwuka duhumeka.

Ni umurima uhinzemo ibigori byinshi cyane, ariko hakaba hagiye hashamikiyeho n'insina zivaho ibitoki, ariko kandi si ibyo gusa kuko harimo n'ibiti by'imyembe.

Ni igiti kinini cy'inganzamarumbo cy'inturusu kiri mu ishyamba n'ubundi ririmo ibindi biti byinshi, bigaragara ko iri shyamba rimaze gusaza rikaba rikeneye gusazurwa.

Urutoki rutangiye gushibuka bigaragara ko rukiri rutoya, rurasabwa kwitabwaho kugira ngo rukomeze gukura ruzatange umusaruro ukwiriye, hirya yarwo gato hari ishyamba ry'ibiti nabyo bikiri bito.

Ku gasozi gateyeho ibiti bimwe bikorwamo imiti, ibindi bikaba byera imbuto, haragaragara ibigori bitangiye guhindundura ndetse n'umurima ukeneye kongera kubagarwa.

Ahateye urusenda rutari rwakura neza, hari n'ibindi biti bimeze nk'inturusu, urusenda na rwo ni kimwe mu bifasha abantu gufata amafunguro yabo, ubundi bakumva bararyohewe.

Umugabo w'umukire akaba ari umuhinzi mworozi ari kwitegereza urutoki rwe aho abona ko rutangiye gushibuka, ni urutoki ruhinze ku buso bwinshi ariko rukaba rutarera neza.

Ishyamba ry'inzitane rigizwe n'ibiti ndetse n'ibyatsi, harimo ibiti bikiri bitoya, bigaragara ko bitari byakura neza, byiganjemo iby'inturusu ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umurima urimo ibiti byiza bitoshye, aho inyuma yabyo hari kugaragaramo urutoki rwamaze gukura, ndetse rumaze gusarurwaho ibitoki byinshi cyane.

Ni mu murima uteyemo ibihingwa bitandukanye, byiganjemo urutoki rukiri rutoya, hagati hateyemo ipoto riyobora amashanyarazi ajyana mu baturage.

Mu ishyamba rwagati harimo icyapa cyerekana ibiteye muri iri shyamba, akaba ari iry'inzitane, ririmo ibiti byinshi by'inganzamarumbo, mu rwego rwo kugira ngo habungwabungwe ibidukikije.

Ni igiti cyunganiye ikindi mu rwego rwo kugira ngo kitagwa kikitura ahatarabugenewe, ni mu ishyamba ririmo ibiti byiganjemo iby'amasipure, ni byiza kubungabunga no gusazura amashyamba kuko ariho tuvana umwuka mwiza duhumeka.

Leta y'u Rwanda mu rwego rwo kurwanya imirire mibi, yakanguriye abaturage cyane cyane abo mu bice by'icyaro yewe na bake bo mu mujyi wa Kigali, kuzajya bahinga uturima tw'igikoni.

Indimu ni zimwe mu mbuto zigira umumaro mwinshi cyane, dore ko zishobora no kuvura indwara zitandukanye zirimo inkorora, si zo gusa ziri hano kuko hari ibinyomoro ndetse n'amaronji.

Intoryi ni igihingwa cyiza akaba kandi ari n'ibiribwa gikunzwe na benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse abenshi bakunda gutebya bavuga ko ari inyama z'ab'amikoro makeya.

Guhinga urusenda na byo ni bimwe mu bishobora gutuma ubona amafaranga, kuko uru nguru rukunzwe na benshi hirya no hino ku Isi. Hari abarutunganya bakarucisha mu nganda bakabona kurucuruza, hari n'abarucuruza rumeze uko rwagasaruwe.

Ibimera bitandukanye biteye ahantu mu murima, ibi ngibi bikaba bishobora kuvamo imbuto abantu bashobora kurya cyangwa se bikaba byakwifashishwa nk'imiti.

Iruhande rw'umuhanda hari ibimera bitandukanye, birimo indabyo, igiti cy'umukindo ndetse n'ibindi. Hirya gato hari urugo rwubakishije amatafari ahiye ndetse rukaba rwaramezeho n'ibyatsi.

Amashaza, imiteja, intoryi, pome, voca ndetse na karoti, ibi ni imboga n'imbuto bituma abantu bamererwa neza nyuma yo kubifungura.

Mu isoko ricuruza ibiribwa bitandukanye ariko byiganjemo imbuto, haragaragaramo pome, imyembe, amaronji n'imineke, hari icupa ry'amazi riteretse iruhande rwabyo ndetse n'umunzani.

Inyanya ni igihingwa cy'ingenzi mu buzima bwa buri munsi kuko zifashishwa mu guteka, hari abazitekera aho cyangwa se bagateka iziba zaraciye mu nganda zigatunganywa.

Mu rwego rwo kwimakaza iterambere ry'abaturage batuye mu cyaro, Leta y'u Rwanda yashyizeho uburyo bwo guhinga ibihingwa bimeze kimwe, ariko kandi bakanabaha ifumbire mu rwego rwo kugira ngo babone umusaruro.

Ni abahinzi bahinze karoti bakaba bari mu gikorwa cyo kuzuhira ndetse banazufira bagenda bazikorera isuku bakuramo imyanda, hari abagore bunamye ndetse n'abagabo bari muri icyo gikorwa.

Nyuma yo kubona ko ubuhinzi burimo amafaranga, ab'urubyiruko na bo basigaye batinyuka bakabukora. Uyu ni umukobwa mwiza uri gusarura amatunda amaze kwera, aho umusaruro we azajya awugurisha akabona amafaranga.

Ahateye ibiti bikiri bitoya hakaba higanjemo iby'imbuto z'amaronji, byose birasasiye ndetse byarakorewe neza ku buryo bigomba kwira neza nta kibazo.

Ubuhinzi bwa kijyambere bugaragazwa n'ubuhinzi butarimo akajagari, aho usanga umuntu atera igihingwa kimwe kandi akagitera neza ku murongo, uyu murima ni ko umeze ukaba inyuma yawo hari ishyamba.

Karoti kimwe mu biribwa cyangwa se igihingwa gikundwa na benshi, abahanga mu by'ubuvuzi bavuga ko kurya karote nyinshi bituma umuntu agira amaso mazima, si ibyo gusa kandi kuko no mu mboga kiraribwa.

Ahacururizwa imbuto zitandukanye ziganjemo amatunda ndetse n'amaronji, ibi ni bimwe mu bituma umuntu agira ubuzima bwiza aho ubirenza ku mafunguro asanzwe.

Urubuto runini cyane kuruta izindi ruzwiho kuba rufite amazi aryohereye ndetse akaba ari menshi, ruri impande y'amatunda, pome ndetse n'amaronji, ni mu isoko bicururijwemo.

Urugo rugizwe n'ibirabyo byarurengeye birimo iby'icyatsi ndetse n'iby'umuhondo, inyuma hakaba hari kugaragara itsina ndende yajeho urutoki.

Ni byiza ko mu bihingwa duhinga umunsi kuwundi haba harimo n'imbuto dore ko ari zimwe mu bigira umumaro, ushobora guhinga amatunda, amaronji, ibinyomoro n'ibindi

Mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije dushakisha umwuka mwiza duhumeka, dusabwa gutera ubusitani buba butoshye ndetse n'ibiti, aha ngaha hari ubukikijwe n'indabyo z'icyatsi.

Umubyeyi, umugabo ndetse n'umwana, bari mu murima w'intoryi bose bari kumwenyura, bafite ibyishimo nk'iby'umushumba ufite inka ze zihaka kuko intoryi zabo zeze neza ni cyo kibashimishije.

Umuneke ni rumwe mu mbuto nziza zizwiho kuba ziryoha cyane, ushobora kuwurya ukagufasha mu igogora ndetse ushobora no kuwifashisha uwurenza ku biryo.

Urubuto rw'ikinyomoro ni rumwe mu nziza, urubuto ruzwiho kuba rwongerera amaraso umuntu wayatakaje ndetse abantu barwaye bene icyo kibazo iyo bari kwiyondora bifashisha ikinyomoro.

Umushumba ufite inka ze zihaka aba anezerewe kuko aba yitegura kubona inyana ndetse akabona n'umukamo. Ariko umuhinzi usaruye imbuto yateye, na we abanezerewe cyane kuko aba yitegura gukirigita ifaranga.

Umwana w'umukobwa uri kufira imyaka, yambaye akajipo k'igitenge karimo utubara tw'umukara ndetse n'ishati, arunamye ari kugenda akura ibyatsi ndetse n'imyanda muri uyu murima utaratangira gushibuka neza, hirya ye hari urutoki.

Umugabo w'umuhinzi akaba ari mu murima we ahateyeye inyanya n'ibigori bikeya, akaba ari kugenda azitera umuti mu rwego rwo kugira ngo zitazibasirwa n'udukoko tukaba twatuma bitera neza.

Kimwe mu bihingwa bizwiho kuba ari bimwe mu bikunzwe na benshi cyitwa ikibiringanya, kiri mu murima wacyo biragaragara ko kimaze kwera, hari umuntu uje kukireba.

Mu irerero ry'imbuto ndetse n'ibihingwa bitandukanye, abaturage babukereye baje gushaka ingemwe z'ibiti ndetse n'ibindi bakeneye kujya gutera mu mirima yabo; barimo abagabo ndetse n'abagore.

Umurima uteyemo inyanya zikaba zisasiye neza mu rwego rwo kugira ngo zizakure nta kintu kizibangamiye, ariko zigeze igihe cyo kuba zaterwa umuti kugira ngo udukoko tutazazangiza.

Igihingwa kizwi nka watermelon kiba cyenda kumera nk'ikidegede, kizwiho kugira amazi meza y'umutobe aryohera, bikaba bituma gikundwa na benshi cyane cyane abakunda ibyo kunywa.

Ni urupangu rwubakishije amatafari ahiye bigaragara ko rumaze igihe, hagati ahari amadirishya, hagiye harimo ibyuma bishinze nk'uducumu by'umukara, bikaba ari mu rwego rwo kwirindira umutekano.

Ni umudamu ucuruje imbuto ku muhanda, zimwe ziri mu ibasi y'icyatsi zikaba zirimo amatunda ndetse n'ibinyomoro, ni byiza ko tuzajya dufata imbuto mbere cyangwa nyuma yo gufata ifunguro, kuko bituma ubuzima burushaho kugenda neza.

Mu rwego rwo kugira ngo hanozwe ubuhinzi buteye imbere, abantu basigaye bashishikarizwa gutera ku murongo, aha hari icyanya kirimo ibiti ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye.

Ubusitani butarakura neza kuko bukigaragaramo imyanya ahataramera ibyatsi, hari utubuye tubukikije ndetse n'ururabyo rwarabye iz'umuhondo n'iz'icyatsi.

Ni indabyo ziteye inyuma y'urugo, zirimo amabara atandukanye, hari izirabye umuhondo ndetse n'icyatsi, inyuma yazo hari urukuta rwubakishije amatafari ahiye.

Irerero ry'imbuto n'ibiti, rikaba riri kwitabwaho n'abakozi babishinzwe umunsi ku wundi. Hagati muri ryo hagiye hari ibiteye ku murongo bigiye bitandukanye amoko.

Abaturage batandukanye bitabiriye ubukangurambaga bwo gutera akarima k'igikoni munsi y'urugo, harimo abamwenyura ariko hari umukecuru bigaragara ko atishimye.

Ahakorerwa ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye birimo imbuto, inyanya, aha ngaha kuri ibi bitara higanjemo voka bigaragara ko zahiye, nizitinda kubona abaguzi zizatangira kwangirika.

Urubuto rw'amatunda ni kimwe mu bikorwamo ibintu byinshi. Ushobora kururya cyangwa se ukarukoramo umutobe. Aha ngaha biragaragara ko aya atarera neza, ku buryo uyasaruye waba uri kuyonona.

Ubusitani buri rwagati mu kigo cy'amashuri, bukaba bugiye buteye ku buryo bw'umuzenguruko, hagati muri bwo hateyemo igiti cy'umukindo ariko kikaba kitarakura neza, hirya gato hari ibindi biti.

Igihingwa cya karoti ni kimwe mu byera neza, bikagira amababi atoshye, usibye gusa kwera neza cyihariye ku kuba ari kimwe mu mboga umuntu ashobora kurya ari rubisi rukaba rwamugirira umumaro wo koza amaso ye.

Ipapayi ni urubuto rwiza rushobora kuba runavura cyane cyane iyo igogora ritari kugenda neza ukarya ipapayi byose bihita bigenda neza.

Ni ahahinze imboga zirimo karoti, zikaba zigiye ziteye ku murongo, ariko hagati muri bwo hagiye harimo ibiti, ndetse hakaba hari n'igice giteyeho amateke.

Ni umugabo w'umuhinzi akaba hari uburyo agenda atera ibihingwa bye mu matsinda, aje mu murima we kugira ngo abibagarire, hirya gato akaba yarahateye ibigori ndetse n'amateke.

Umusaza uri kuhira imyaka y'iwe ari na ko kandi agenda ayitera umuti kugira ngo itazibasirwa n'udukoko bityo bikaba byamuviramo kuyirumbya.

Ni numudamu uri kumwenyura ariko nta kabuza afite impamvu, nyuma yo kubiba intoryi bimugoye nyuma zaje kwera, akaba ari guseka yishimira umusaruro yagezeho.

Ni umudamu wicaye iruhande rw'umuhanda aho acuruje imbuto z'ibinyomoro, iki ni kimwe mu bihingwa bizwiho kuba bishobora kongerera umuntu amaraso mu gihe yarwaye.

Mu murima hagati uteyemo ibigori ndetse n'ibishyimbo, hari abagabo batatu baje kuwuhira kuko bafashe umupira, bari kugenda buhira ibi bigori kugira ngo bitazanga kwera.

Mu rwego rwo kunoza iterambere mu buhinzi, usanga leta y'u Rwanda yaragiye ishyiraho uburyo buvuguruye bwo kuhira imyaka, bitandukanye no hambere aho izuba ryakubitaga imyaka maze ikarumba.

Ni umudamu ushishikariye gukora umwuga w'ubuhinzi benshi barawukangukiye kera twumvaga ko ubuhinzi ari ubw'abantu bakuru ariko mu minsi ya none hagaragara n'urubyiruko rukora umwuga wubuhinzi

Umuhinzi wa kijyambere amenya uburyo bwo kwita ku bihingwa bye, igihe cyo kubitera umuti, mu rwego rwo kugira ngo bitibasirwa n'udukoko, tukaba twazatuma atagera ku musaruro we.

Ubuhinzi bwa kijyambere bugaragazwa no kuba abantu bashobora kuhira ibihingwa byabo bitabagoye, dore ko Leta iba yarabashyiriyeho uburyo bwo kugeza amazi ku misozi baba bahinzeho.

Umugabo uhinze ibigori akaba ari kuhira umurima wiwe yifashishije indobo yabugenewe, bigaragara ko ari kuvoma amazi ayakandagiyemo kuko yazinze ipantaro ibirenge bitose.

Iyo ushaka guhinga ukeza hari ibintu bigera kuri bitatu uba ukwiye kwitaho cyane, uba ugomba kumenya ko ibihingwa byawe wabihaye ifumbire ihagije, uba ugomba kumenya ko ubyuhira umunsi ku wundi ndetse ukanabitera imiti ibirinda kwangirizwa n'udusimba.

Amazi ari rwagati mu murima aho yifashishwa mu kuhira imyaka, aha hateyemo ibigori biratoshye kubera ko umunsi ku wundi byuhirwa amazi.

Ni ikibaya kinini cyane gihinzemo umuceri, dore ko mu bishanga ari ho hakunze guhingwa umuceri kugira ngo ubone amazi ahagije, hakurya haragaragara amashyamba ndetse n'amazu y'abantu.

Guhinga ku materasi y'indinganire ni kimwe mu bituma imyaka itononekara dore ko idatembanwa n'amazi ndetse ubutaka buba bukomeye, nk'uko biri kugaragara aha ngaha igice cyo hakurya kiriho amaterasi.

Ni ubuso bw'amahegitari menshi cyane atabarika, bukaba buhinzeho icyayi cyiza biragaragara ko kigitoshye hakurya hari ishyamba ndetse no hagati y'iki cyayi.

Igishanga kinini kiri ku buso bw'amahegitari atabarika, kikaba gihinzemo umuceri, aho bigaragara ko uyu muceri utarera neza ku buryo wasarurwa.

Ubuhinzi bugezweho abaturage bashishikarizwa gukora ni ubwo gutera ibihingwa ku materasi y'indinganire, n'uko biri kugaragara ahangaha nibwo abaturage bakangukiye gukora

Ubusitani bunini cyane burimo igiti cy'umunyinya kizwiho kugira amahwa menshi cyane, hakaba harimo inzu iri ahirengeye ya gitwe kimwe.

Ikibaya mo hagati gihingwamo umuceri ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye, akaba ari mu gishanga aho byorohera abaturage kuhira iyo myaka baba bateye, gikikijwe n'ibiti by'amashyamba.

Ni umusozi munini uhinzeho icyayi cy'u Rwanda. Ni kimwe mu bikunzwe cyane hirya no hino ku Isi, dore ko amahanga agitumiza, ubundi kikanyobwa n'abayatuye.

Umurima munini urimo ibihingwa bitandukanye, bikaba bisasiye byagiye bibagarirwa neza, bikaba bigaragara ko bizera neza nta shiti kuko nyirabyo yabyitayeho cyane.

Mu rwego rwo kwimakaza iterambere ry'umuhinzi, Leta y'u Rwanda itanga ifumbire y'imborera ndetse igatanga n'ibyitwa nkunganire muhinzi kugira ngo abantu barusheho kunoza ubuhinzi bwabo.

Ni mu gice cy'icyaro, aho hasi y'umusozi hari amazu atandukanye, bigaragara ko atuwemo n'abaturage ariko bakaba bahinga ku misozi, aho bahisemo kuzajya bahinga ku materasi y'indinganire.

Umusozi ugaragaraho amatarasi y'indinganire hepfo hateye ubwatsi, naho kuri aya materasi abaturage baritegura kuhatera imyaka itandukanye kugira ngo bazayisarure.

Abaturage bose bamaze gushishikarizwa ko bakwiriye guhinga kijyambere, aho babikora bifashishije amaterasi y'indinganire, aya amwe ateyeho urutoki andi iruhande hari ishyamba.

Ahari ikawa zanitse hari izimaze kuma ndetse n'izikiri mbisi, zikaba zarashyizwe ku rutara mu rwego rwo kugira ngo zanikwe neza, hakurya hari imisozi iteyeho amashyamba.

Icyayi ni kimwe mu bihingwa bizanira amadevize igihugu cy'u Rwanda, dore ko icyayi cy'u Rwanda kimaze kumenyekana ku isi hose, kimwe mu biryoshye kurusha ibindi.

Ubuhinzi bwa kijyambere bugaragazwa n'uko abantu baca amaterasi y'indinganire ndetse bajya gutera imbuto zabo bakaba bazitera ku murongo, hari ibiti bibiri by'inganzamarumbo muri uyu murima.

Abantu bafite inka mu biraro bakaba bari kuziha ubwatsi, harimo umugore ndetse n'umugabo n'akana kabo gato, inyuma y'ikiraro k'inka haziritse n'agahene k'umukara.

Inyana ikiri ntoya cyane y'umweru ndetse n'umukara, ikaba ifitwe n'umugabo uyiragiye, aho ari kugenda ayikurura umugozi yaziritse mu ijosi, hirya gato hari umwana uvuye kuvoma.

Ihene iri kurisha, ikaba iri hafi y'urugo ruzitije imiyenzi ndetse ikaba imaze kuba ihekenya ibishishwa by'ibigori biri hafi aho ngaho ikaba iri kwifotoza.

Itungo rirerire rizwiho kuba ritanga umukamo w'amata yifashishwa na benshi ari ryo inka, iragaragara mu gisambu iziritse mu ijosi mu mabara y'umweru n'umukara, inyuma kandi hari n'ubundi bushyo bwazo.

Abaturage bo mu gice cy'icyaro barishimira ko bahawe itungo rigufi rizwi nk'ingurube, ibi ngo bizabafasha mu iterambere ryabo, dore ko iri tungo ari rimwe muyazwiho kororoka byihuse.

Aborozi b'amatungo magufi barishimira ko aya matungo akunze kubaha umusaruro, ibi ngibi byavuzwe n'aboroye inkwavu ngo dore ko urukwavu rumwe rushobora kubyara abarenga batanu, nyamara ushobora kuzategereza ku yandi matungo ibyo ntubibone.

Mu kiraro harimo inka imwe bigaragara ko ihaka, hanze haziritse agahene kari kurisha, imbere hari akana gatoya bigaragara ko ari ako muri uru rugo.

Umubyeyi ufite udutungo tugufi tubiri aritwo uduhene, akaba ari kuduha ibyo kurya tukaba twizihiwe, akaba akenyeye igitenge ndetse ateze n'igitambaro mu mutwe.

Abaturage borora amatungo magufi yiganjemo ay'ingurube, bose baje kuyaha urukingo. Buri umwe akaba afashe itungo ryiwe. Hagati muri bo hari umugabo wambaye akagofero wazinze ipantaro.

Ubworozi bw'inkoko ni bumwe mu bishobora kwihutisha iterambere mu borora amatungo magufi, dore ko iyo uzigaburira neza na zo ziguha umusaruro w'amagi ubundi ugakirigita ifaranga.

Ubworozi bw'amatungo magufi ni bumwe mu butuma abaturage biteza imbere, inkoko iyo uzifashe neza ukazigaburira ibiryo byabugenewe, na zo zituma ukirigita ku ifaranga kuko ziba ziguha amagi umusubirizo.

Ingurube yamaze kubwagura iri kuryama aho iri kuruhuka. Ibibwana byayo biri kugenda biyonka mu rwego rwo kugira ngo na byo bizakure byihuse. Ingurube itanga umusaruro wa vuba vuba.

Inyana y'urwirungu ikaba iri kurisha mu bishanga, biragaragara ko itari yakura neza hashize igihe gitoya ivutse, iyi bisabwa kwitabwaho kugira ngo nikura izatange umukamo.

Ubworozi bw'amatungo magufi bwiganjemo ubw'ingurube, ihene, intama ndetse n'inkoko, ni bumwe mu buri kwitabirwa n'abaturage b'amikoro mato, maze bikabafasha kuzamuka dore ko ubworozi butanga amafaranga.

Abayobozi mu nzego z'akarere bakaba batanze inkunga y'amatungo magufi, agizwe n'ihene ku baturage barenga gato makumyabiri. Abahawe izi hene bishimiye ko zigiye kuzamura ubukungu bwabo.

Inyana y'igitare ndetse n'umukara, bigaragara ko hashize iminsi mike ivutse, bakaba bari kureba ukuntu yatangira guhagarara ikagenda, hari umwana wambaye agakabutura gakunje, akaba ari kumwe n'umugabo bari gukurikirana iyi nyana.

Ingurube ni rimwe mu itungo rigufi, rizwiho kuba ritanga umusaruro mu bijyanye no kororoka, dore ko ishobora kubwagura ibibwana icyenda icya rimwe, ubundi ugatangira gukora ku ifaranga.

Ni ihene iri mu kiraro, aho iziritse mu ijosi, ndetse ikaba ari isekurume kuko ifite amahembe. Irasa umukara wiganje ndetse n'akeru gakeya.

Abantu bari mu bukerarugendo, aho baje kwiga uburyo ki ubworozi bw'ingurube bukorwa, bamwe bafite udukayi kugira ngo baze kureba uko iri tungo rigufi ryororwa.

Mu kiraro kirimo inka ikaba yaje gusurwa n'umuganga wita ku matungo kugira ngo arebe niba nta kibazo yaba ifite, mu rwego rwo kugira ngo itazapfa bigatuma nyirayo ahomba.

Aborozi b'amatungo magufi barishimira ko bahawe inkwavu. Barimo abagore n'abagabo, buri umwe ateruye urukwavu yamwenyuye. Bakaba bavuga ko izi nkwavu zizabafasha mu kwiteza imbere.

Inyana iri mu ruhongore, ikaba iri kurisha ubwatsi bayizaniye. Ariko biragaragara ko itangiye gukura. Ikaba ifite amabara meza, ndetse n'ikiraro cyayo ni cyiza.

Inkoko y'isake iri mu mbuga aho ku ruhande rwayo hari ibiti byitegurwa gukorwamo inkwi, hirya gato hari ikiraro ariko cyanitseho imyenda hari ndetse n'ibindi biti biri inyuma y'ikiraro.

Ubworozi bw'inkoko ni bumwe mu busigaye bwitabirwa n'abantu benshi, nyuma yo kubona ko umusaruro wazo utuma abantu babona amafaranga dore ko zitanga amagi ndetse zigatanga n'inyama.

Ubworozi bw'amatungo magufi ni bumwe mu buri kwitabirwa na benshi, dore ko bamaze kubona ko zirimo agafaranga. Uyu aragiye amahene yiganjemo amasekurume nk'uko bigaragara ku mahembe yazo.

Inyana y'igitare ndetse n'umukara, ikaba imaze iminsi ivutse, hakaba hari umugabo uri kuyitaho, mu rwego rwo kugira ngo ibashe gukura neza cyane, uyu mugabo yambaye umupira w'umuhondo.

Aborozi b'amatungo magufi cyane cyane ingurube, bavuga ko ari rimwe mu yazwiho gutanga umusaruro byihuse, kuko zororoka cyane, iri tungo rikunzwe na benshi muri iyi minsi ya none.

Itungo ry'ingurube ni rimwe mu yagira umwanda ukabije, biba bisabwa ko urishyira ahantu hari isuku, ariko uko wabikora kose n'ubundi riranga rikivuruguta, icyakora ariko n'ubwo ribigenza rityo, rizwiho kuba ryororoka cyane.

Itungo rigufi rizwi nk'ingurube, bimwe mu byo warimenyaho: rigira umwanda cyane ndetse nubwo rigira umwanda ariko na ryo rirororoka, rishobora kubwagura ibyana birenga icyenda inshuro imwe.

Inkoko zagiye gutora mu murima, hakaba harimo isake imwe ifite ibara ry’umweru ndetse n’ikirokoroko, iri kumwe n’inkokokazi ebyiri aho ziri kugenda zitoratora.

Ihene ihaka ikaba igeze igihe cyo kubyara, bikaba bigaragara ko imaze kugenda inanirwa, dore ko no kurisha igenda gake gakeya, ibi bikaba byemeza ko yenda kubyara.

Ni mu irerero ry'imbuto ndetse n'ibiti bitandukanye, aho haba habungwabungwa birinda ko haba imyanda ndetse n'izuba ryinshi bityo bakahatwikiriza inzitiramibu.

Itunda ni kimwe mu mbuto zizwiho kuba ziryoha byahebuje, aho bamwe bazirya cyangwa se bakazikoramo imitobe yo kunywa, aha hakaba hari ayo bagiye gucuruza.

Ubuhunikiro bw'ibigori aho iyo babikuye mu murima babyanika ubundi bakabisharika, bakabishyira ahitwa mu mahangari, ikaba itwikirije ihema ry'ubururu.

Irerero ry'ibiti ndetse n'imbuto z'imyaka, rikaba rirangwa n'utuntu tw'udushashi tuba duteyemo ibiti bitoya cyangwa se imbuto, zishobora kuvamo imyaka y'abaturage.

Umurima urimo ibigori, ukaba ufite ubuso bunini cyane, biragaragara ko bitarera neza ariko hagati muri byo hagiye hateyemo imigozi y'ibijumba, hakurya hari amazu y'abaturage.

Umurima urimo intabire, hakaba hateyemo ibimeze nk'amateke. Iki gihingwa mu gitondo uzasanga hariho amazi, uyoberwe aho yaturutse mu ijoro. Hirya gato hari ibigori bimaze kuma.

Ibishyimbo bitangiye gushibuka ariko ntabwo birera. Nibwo bigipfundura amababi yabyo. Biteye uruhande rumwe urundi bikaba bigaragara ko ruteyeho ibigori.

Umugende uri rwagati mu murima, aho uyu mugende wifashishwa mu kuhira imyaka ariko na none ukanayobora amazi kugira ngo adatembana imyaka, nyamara bakaba bahomba abayihinze.

Ahateye isombe rikaba riri ku murongo ndetse rimaze gukura rigeze igihe cyo kuba ryasarurwa, isombe ni kimwe mu biribwa bizwiho kugira intungamubiri nyinshi.

Amashu ateye mu buryo bwa kijyambere ahinze mu buryo butari ubw'akajagari dore ko beneyo bagiye bayatera ku murongo, ntabwo arera neza kuko nibwo atangiye gupfundura amababi.

Igihingwa cy'amashu giteye neza ku murongo, aho inyuma yacyo hari ibimeze nk'urubingo cyangwa se bikaba byaba n'ibisheke. Aya mashu ni bwo akimara gupfundura ariko ntabwo arera neza.

Umurima munini uri ku buso bunini cyane, ukaba uhinzemo ibihingwa bitandukanye, muri byo harimo: ibijumba ndetse n'insina z'ibitoki. Si ibyo gusa kuko harimo n'ibiti.

Umurima umaze guterwa intabire ako kanya, biragaragara ko imbuto zizajyamo, zizaterwa ku murongo kuko ari bwo buryo uyu muhinzi wa kijyambere yabiteganyije ngo ni byo bizamuha umusaruro.

Mu irerero ry'ibiti ahazwi nka pipiniyeri, hari amashashi matoya aba arimo ifumbire, ashyirwamo ingemwe mu rwego rwo kugira ngo tubungabunge ibidukikije, iyo utemye igiti kimwe utera bibiri.

Nyuma yo kweza umusaruro w'igihingwa cy'ibigori, haba hakurikiyeho kubihunika kugira ngo igihe nikigera bizasheshwe ubundi bibe byakurwamo ifu ya kawunga n'ibindi bitandukanye.

Ni mu irerero ry'imbuto ndetse n'ibiti bikiri bitoya ikunze kwitwa pipinnyeri, aha ngaha haba hari ingemwe z'ibiti cyangwa se imbuto runaka, aho abantu baza kuzikura bakajya kuzitera aho bifuza.

Mu irerero ry'ibiti bitoya ingemwe ndetse n'imbuto, hatwikirije inzitiramibu hejuru mu rwego rwo kugira ngo izuba rijye ribigeraho ariko ari rikeya, hirya gato hari ishyamba rigizwe n'ibiti.

Ihunikiro ry'ibigori aho baba barabibitse nyuma y'uko byumye kugira ngo bazabisheshe bivemo ibindi biribwa bitandukanye birimo kawunga, aha ngaha rero akaba ari uburyo bwiza bwo kubibika kugira ngo bitangirika.

Umuvuzi w'amatungo uyitaho umunsi ku wundi, akaba ari kwita ku nka hano agiye kuyiha umuti, aho ayisanze mu kiraro cyayo, awufite mu ntoki yambaye itaburiya y'ubururu.

Mu cyumba kiberamo ubushakashatsi, aho bari gusuzuma nimba aya mata yujuje ubuziranenge akaba yanyobwa nimba nta kibazo yatera abaturage bashobora kuyanywa.

Umuvuzi wita ku matungo akaba ari kwita ku nka, aho bari kuyishyiramo igiherena, yambaye itaburiya y'ubururu akaba afashijwe n'umusore wambaye agatuza konyine.

Umuganga w'amatungo ndetse n'imyaka uba uzwi ku izina rya veterineri, ni we wenyine wemerewe guha itungo umuti cyangwa se akakubwira umuti ugomba gutera ku myaka yawe kugira ngo itazarumba bitewe no kumungwa n'udusimba.

Umworozi w'amatungo magufi agizwe n'ihene ndetse n'intama yatumyeho umuvuzi w'amatungo kugira ngo amuvurire ihene ye yari yagize ikibazo, akaba rero ari kuyitera urushinge.

Umuvuzi w'amatungo wabugenewe akaba ari kubangurira inka, aho ari kuyitera intanga yambaye bote z'umweru ndetse ipantaro y'umukara n'umupira w'umutuku.

Mu kiraro k'intama ndetse n'ihene, hari umuvuzi w'amatungo waje kwita ku ihene yagize ikibazo abifashijwemo n'umushumba wazo, aho yayimufatiye kugira ngo ayitere urushinge.

Iri tungo ryarwaye ibintu bimeze nk'ibirondwe, aho bigaragara ko ubwoya bwapfutse mu mugongo, ni ngombwa ko ushaka umuvuzi w'amatungo ndetse n'inyamaswa akabasha kuryitaho.

Ahari ubushyo bw'inka ariko imwe muri zo yarwaye, hari abasore bayigaramitse hasi kugira ngo babashe kureba ikibazo yaba ifite, umwe muri bo yikuye agatuza akaba ari we uri kuyikoraho.

Abagabo babiri barimo umuvuzi w'amatungo, bakaba bagiye gukingira ingurube, yabanguye amatwi ikaba isa umweru, nk'uko bisanzwe ifite umunwa munini uje imbere.

Ni inka ziri mu rwuri aho abaganga b'amatungo baje kuzireba ngo baziteho, ziri mu mabara atandukanye harimo iz'urwirungu, iz'igitare iz'ibihogo ndetse n'izindi.

Igitera ni kimwe mu binyamaswa biba byenda kumera nk'abantu, ni icyo kwitondera kuko iyo urebye nabi kiragusagarira, bikunze kubarizwa mu biti ndetse no mu mashyamba.

Kimwe mu binyabuzima bishimisha benshi ni inyoni, dore ko ikunze kubyuka iririmba mu museso kumva uguwe neza. Ni bimwe rero mu bigomba kubungwabungwa, dore ko ziri kugenda zikendera.

Mu cyanya kiba cyarahariwe kubamo inyamaswa ni hamwe mu hantu habagomba kwitabwaho, kuko hakorerwa ubukerarugendo bw'abaza gusura izi nyamaswa ziganjemo impara, imparage, udusumbashyamba ndetse n'andi moko y'inyamaswa.

Isatura ni kimwe mu nyamaswa zibarizwa muri pariki y'Ibirunga, aho na zo ari zimwe mu zikurura ba mukerarugendo benshi, bakaba batangazwa n'imiterere y'iyi nyamaswa.

Inguge yuriye igiti ikaba iri kwifotoza. Izi ziba zifite imyitwarire neza yenda kumera nk'iya abantu. Iri hejuru mu giti ariko ibonye bayitunze camera ihita yitegura ngo bayifotore.

Ibinyabuzima bitandukanye, ni ngombwa kandi tubibungabunge kugira ngo ntibizacike, iyi ni inyoni izwiho kugira umunwa munini aho yitwa samusure.

Ingagi ziri kugenda zikendera ku isi hose, ni yo mpamvu aho ziri usanga zisurwa cyane na ba mukerarugendo, bagaturuka imihanda yose baje kureba izi nyamaswa bavuga ko ziteye nk'abantu.

Ubukerarugendo bw'u Rwanda bushingiye ahanini ku nyamaswa ziba mu cyanya cyahariwe kubamo inyamaswa, harimo ingagi, inkende ndetse n'ibindi ariko cyane cyane ba mukerarugendo bakunze gusura ingagi.

Mu rwego rwo kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima, igihugu cyagiye gishyiraho ibyanya ibyo binyabuzima bibamo maze abantu bakaba ariho babisurira. Aha hari inguge ntoya ifite ibara ry'umweru n'umukara.

Imbwa akaba ari inyamaswa izwiho kuba iyo wayitoje ibasha kuba igira ubwenge, ikindi kandi yubaha umuntu uyitunze neza neza ikamubanira neza cyane.

Kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima ni ngombwa mu buzima. Iki ngiki kikaba cyitwa ikinyaruvu. Kikaba kizwiho kugira amabara menshi. Ishami kiguyeho kiba gisa na ryo. Ahantu hose kiri, kiba kigomba guhindura ibara, kigasa n'aho ngaho kiri.

Inyoni izwiho kugira amabara meza ariko kandi ikaba ifite n'umunwa munini, ikunda kuba yibereye mu ndabyo aho igenda itora udusimba tuba twaje kuri izo ndabyo.

Ako bita agakima kaba kenda gusa nk'agakende ariko nanone kakenda gusa nk'akaguge, aka ni kamwe mu tuyabuzima twenda kumera neza neza nk'umuntu, gafite amabara y'umweru n'umukara ku bwoya.

Inkende ndetse n'inkima ni bimwe mu binyabuzima byenda kumera kimwe ku buryo abantu benshi baba batazi kubitandukanya. Aha hari izifite amoya y'umweru ndetse n'umukara.

Kimwe mu binyabuzima biba bikwiye kubungabungwa ni izi nyoni ziba zifite amabara meza, dore ko ari hakeya ziba ziboneka ntabwo uzazisanga buri hantu hose habonetse niyo mpamvu tuba dukwiye kuzibungabunga ngo zitazacika.

Ingagi zibarizwa mu birunga ho mu majyaruguru y'u Rwanda ahitwa mu Ruhengeri rw'ibihungi, izi ni zimwe mu zikurura ba mukerarugendo bagaturuka imihanda yose baje gusura ingagi bigatuma igihugu kibona amadovize.

Umuhanda w'igitaka ukaba wicayemo agakende. Uzirinde guca ahantu nk'aha ngaha uri wenyine, kuko bene utu tunyamaswa dukunze gusagarira abantu, cyane cyane abakobwa bambaye amajipo.

Inyoni ifite amabara atandukanye kandi meza, harimo iry'icyatsi cyerurutse, umukara, ifite umunwa muremure, ikaba yagurukiye ku rurabyo ariho ije gutorera udusimba duto dutoya.

Inyoni ni kimwe mu binyabuzima bikwiye kubungabungwa ariko zigiye ziri mu moko atandukanye, iyi ngiyi imeze neza neza nk'ururabyo dore ko ifite amabara ndetse n'ubwoya bwiza.

Inyoni ni kimwe mu binyabuzima byiza umuntu ashobora kwishimira gutunga n'ubwo zibera mu kirere, cyane cyane mu gitondo iyo ziri kuririmba umuntu yumva yabihoza mu matwi.

Imbeba izwi ku izina ry'imbeba ya kizungu, ikaba iri mu giti, iyi yo irihariye kuko ifite umurizo munini, aho yawuzinze iwerekeza ku mutwe, akaba ari imbeba ya kizungu.

Kimwe mu binyabuzima biremye mu buryo butangaje, harimo inyoni yo muri ubu bwoko, aho iyo iri mu kirere iba imeze nk'ukururabyo. Inyoni zizwiho kuba zizi kuririmba mu buryo utamenya.

Bimwe mu binyabuzima bizwiho kuba byenda kumera nk'abantu, habamo inguge, inkende ndetse n'ingagi, aha rero hakaba hari inguge ziri mu giti, hari inkuru ndetse n'intoya.

Ingagi eshatu zicaye zateranye umugongo, ibi ni bimwe mu bizwiho kuba ari inyamaswa zikurura ba mukerarugendo hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho habaho n'umunsi wo kuzita amazina.

Hari bimwe mu binyabuzima byitwa ibikima, ibikende ndetse n'inguge. Ibi ni bimwe mu biba bifite imiterere yenda kumera neza nk'iy'abantu, aka kicaye neza neza nk'umuntu.

Kimwe mu binyabizima bizwiho kuba bimeze nk'abantu kizwi ku izina ry'inkende, kikaba kiri gutambatamba inyuma y'inzu imeze nkaho ari ikigo cy'amashuri, iki kikaba ari kimwe mu binyabuzima bimeze nk'abantu.

Kimwe mu nyamaswa zibarizwa muri za pariki, ikaba yitwa insha, iba yenda gusa nk'ihene ariko yo ikagira amaguru maremare, iyi ngiyi izwiho kwiruka cyane.

Abagabo bari mu bushakashatsi ninjoro, aho bari kugenda bitegereza muri pariki cyangwa se icyanya cyahariwe kubamo inyamaswa, biragaragara ko ari ba mukerarugendo bari mu bushakashatsi.

Inyamaswa izwiho kuba igira amahwa, bikaba iyi ngiyi ari iyo kwitonderwa cyane kuko urebye nabi aya mahwa yayagushinga ubundi ugahita ukomereka, aho wayibona hose rero wayigendera kure.

Imbeba ya kizunguru izwiho kugira umurizo muremure iba yawuzingiye inyuma, ikaba iri mu giti, ni imwe mu mbeba zizwiho konona cyane kuko yangiza bimwe mu bikoresho byo mu nzu iyo ibiciye urwaho.